Uyu n'umuganga urimo kwandika ndetse ari kumwe n'umu mama urimo kumubwira ibyo yandika, aho amwandikira imiti ndetse ku meza aho yandikira hariho ibipapuro byinshi ndetse n'ikayi arimo kwandikamo.

Uyu ni umubyeyi ufashe umwana mutoya, arimo aramugaburira ibiryo byiganjemo intungamubiri ndetse n'imboga harimo: avoka, indagara, ibyongerera imbaraga mwana ndetse bigakomeza amagufwa bifasha mu mikurire ye, inyuma ye hari undi mugore wambaye igitenge aganira n'undi.

Uburezi bw'inshuke ndetse bushingiye ku kwita ku mikurire ndetse n'imirere y'abana, aho abana batoya basuwe bari kumwe n'abarezi babo ndetse basuwe n'ababyeyi babo bose bari kumwe ku munsi bizihiza uburezi bwabo ndetse bareba uko bugenda.

Hano hakorerwa ubucuruzi bw'imiti ya kinyarwanda, aho hari umugore urimo kuyicuruza ndetse arimo kumvikana n'umuguzi waje kuyigura ndetse n'umuganga ubizobereyemo ari inyuma ye, arimo kuvugana n'abayitegura.